Abayobozi iyo babonye umwanya basohoka mu biro bakegera abayoborwa, bakabaganiza bakumva ibibazo bafite bakabafasha kubikemura, akenshi bakabikorera mu nteko rusange y'abaturage, kugira ngo bikemurwe ku mugaragaro hatagira usigarana ingingimira.

Uturere twa Nyagatare, Kayonza, Ngoma, Kirehe na Gatsibo twatumije inama y'abayobozi bakuru, gusa umuyobozi w'akarere ka Nyagatare ntabwo yabonetse.

Inyubako ngari zikorerwamo inama akenshi ukunda gusanga ariho abayobozi bakunze kwibanda, kubera ko haba hari ibikorwa bibafasha kugera ku ntego yabo kandi no gukora neza ibyo biyemeje, kubera ko haba hari ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru.

Nta bintu byiza nko kujya mu nama cyane cyane iyo witwaje ibikoresho byose, dore ejobundi bantumiye mu nama maze ntwara ikayi n'ikaramu kandi ibyo batwigishije byose narabyanditse, iyo numva hari icyo nibagiwe nsubira mu ikayi nkasoma.

Mu bihe byo hambere umugore ntabwo yahabwaga ijambo ahubwo akazi ke kari gutekera umugabo, akita ku bana, ariko ubu byagaragaye ko nabo bashoboye kubera ko iyo bahawe ijambo bavuga ibintu bikomeye cyane.

Ahantu hose hari gukorwa ubukangurambaga by'umwihariko ku bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, usanga abantu ari benshi bigatuma hitabazwa inzego z'umutekano kugira ngo abari aho ngaho hatagira uza kubangamira undi bityo igikorwa kikagenda nabi.

Mukamana n'umwe mu bagore baherutse gutorerwa kuyobora akarere kacu kandi nawe yarabyishimiye kubera ko yahoraga yanga akarengane kabakorerwa.

Hari ibyo bita kwicara hamwe, maze mukajya inama. Ibyongibyo bifasha abagiye inama kugera ku mwanzuro mwiza kandi ukwiriye. Bigatuma abantu bose bashyira mu bikorwa ibyavuye muri iyo nama.

Iyo abayobozi batandukanye bicaye bakajya inama bafata imyanzuro myiza kandi ikwiriye. kuko umunyarwanda yaciye umugani ngo, "ntamutwe umwe wigira inama, ahubwo wigira iyo gusara."

Biiba byiza iyo abaturage bahuye n'abayobozi babo kugira ngo bagire ibyo baganiraho, kandi iyo bagize ibyo bemeza bishyirwa mu ngiro nta kabuza, kubera ko abaturage nabo baba bagize uruhare muri ibyo byemezo.

Hari inama iherutse kubera mu Rwanda, iyo nama yahuje abayobozi bahagarariye ibihugu byabo bya Afurika ndetse n'abaminisitiri, iyo nama yafatiwemo imyanzuro ikomeye cyane.

Mu Rwanda abayobozi baricara bakajya inama bakareba igikwiye gukorwa, ni nayo mpamvu rero u Rwanda rwageze ku iterambere kubera ko abayobozi bajya inama.

Uwimana ni umwe mu barangiza amashuri muri iyi minsi ariko yashatse kujya gusaba akazi bamusaba kwandika ibaruwa kandi nta mudasobwa yari afite yahise anyarukira kubafite mudasobwa barayimutiza maze nawe yandika ibaruwa .

Ahantu hose hari ibirori biri buze guhuriza hamwe abaturage benshi ndetse n'abayobozi babo bakaza kuhabasanga, usanga ari ngombwa ko bahashyira bimwe mu bikoresho biza kubarinda izuba mu gihe cyose bakurikiye umuyobozi wabo kandi ntibaze kubangamirwa.

Mu kwezi kwa mutarama k'umwaka ushize abayobozi b'igihugu cyacu barahuye baraganira, byatumye bamenya ibibazo byugarije imiyoborere ndetse n'abaturage none babifatiye umwanzuro, ubu tubayeho neza.

Bimaze kugaragara ko abayobozi akenshi bakunda gukora inama bagahurira hamwe, bakiga ku kibazo runaka cyagaragaye, by'umwihariko ikibangamiye abaturage, ndetse n'imigendekere myiza ya serivisi bahabwa, bityo bakicara hamwe bagacocacoca icyo kibazo kikarushaho gukemuka vuba.

Iyo uri umuyobozi uri gutanga ikiganiro runaka uba ugomba kugerageza ugashyiramo akantu gasetsa abo uyoboye kugirango ngo ubarinde kurambirwa no kumva badakunze ikiganiro urimo gutanga bityo bigatuma basinzira ntibagukurikire.

Rimwe na rimwe usanga n'abanyamahanga bifashishwa baje gutanga amahugurwa ku bayobozi runaka by'umwihariko ku kintu cyangwa se igice kimwe na kimwe mu by'imiyoborere batazi, bakabahugura bakarushaho kugisobanukirwa neza bakabahugura no ku bindi bitandukanye.

Iyo umuntu ageze mu za bukuru nko mu myaka mirongo irindwi, umubiri we ugenda ucika intege, ni nayo mpamvu rero iyo afite inshingano ari nk'umuyobozi agomba koroherezwa agasubira mu rugo.

Abayobozi akenshi iyo bari mu biro bakoreramo usanga biteguye kwakirana yombi ababagana, ariko mbere yo kubakira barabanza bagategura neza neza uko umunsi uri buze kugenda bifashishije inyandiko zibagenga kandi bahawe n'ababakuriye.

Iyo hari igikorwa cyabaye abaturage baraza kugira ngo bakurikirane icyo gikorwa biba byiza rero yuko ahantu hahuriye abantu benshi abashinzwe umutekano bahaza kugira ngo hatagira ikibahungabanya.

Ubwo nari nitabiriye inama y'akarere, nahuriyeyo n'abantu benshi, kandi bangiriye akamaro, kubera ko hari uwampamagaye ejobundi andangira akazi, nakoze ikizamini ndanagitsinda none ntegereje ko bampamagara.

Igihe cyose abayobozi bari mu nama baba basabwa kwandika neza kandi bagakora inyandiko zigaragara kugira ngo bazazigeze ku bo bayobora babamenyeshe imyanzuro yavuye mu nama kuko aribo kenshi na kenshi iba igenewe.

Iyo hari ikibazo runaka ni byiza ko abantu bicara hamwe bakareba umuti w'icyo kibazo, no mu Rwanda rero ni uko bimeze iyo hagaragaye ikibazo abayobozi baricara bakagikemura.

Ibintu byaroroshye igihe cyose umuyobozi arimo atanga ikiganiro runaka ntabwo ari ngombwa ko avuga cyane kugeza asaraye ahubwo Leta yarabyoroheje igenda ishyira indangururamajwi muri buri bigo bikorerwamo inama kugira ngo bijye byorohereza abantu kumva ubutumwa bitabagoye.

Kugira ngo igihugu gitere imbere, ni uko abayobozi batandukanye bicara bakaganira kuko iyo bitabaye ibyo igihugu usanga kitagera ku iterambere, kubera ko kiba kiyoborwa n'umuntu umwe gusa.

Abayobozi bose bakunda gufata umwanya bagateranira hamwe by'umwihariko mu mpera z'icyumweru cyangwa se bagakora inama rusange mu kwezi mu mpera zako, bakiga ku bibazo bibangamiye abaturage, kandi bakareba neza niba hari aho badatanga serivisi nziza bakazikosora.

Abahanga bamaze gusobanukirwa ko amazi ari ubuzima niyo mpamvu usanga bamwe mu bayobozi bayitabaza igihe cyose bari mu nama cyangwa se ibindi biganiro biri bubasabe kumara umwanya muremure bicaye hamwe kugira ngo bataza gusinzira.

Bamaze guhurira mu nama buri muyobozi wese yasabwe gusuzuma neza niba mudasobwa ye nta kibazo ifite, kugira ngo igihe cyose atanze igitekerezo aze kubasha kucyandika kandi agisigarane ndetse n'imyanzuro yafashwe aze kuyandika muri mudasobwa abitangariza abo ayoboye.

Umwana wese aba afite uburenganzira bwo kwiga kandi agakurikiranwa n'ababyeyi ndetse n'abayobozi b'ikigo kugira ngo imyigire ye igende neza abashe gutsinda hanyuma azavemo umuntu w'ingirakamaro, agirire akamaro igihugu ndetse n'ababyeyi be.

Muri iyi si y'ikoranabuhanga, usanga abantu baratwawe n'amatelefone, amateleviziyo, cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, gusa niba uri umuyobozi ukaba uri mu nama n'abandi, ni byiza ko ubika ibyo bikoresho byawe maze ugakurikira.

Mukayishimwe nawe yatorewe kuba umudepite, none byagaragaye ko atabishoboye, niyo mpamvu rero yahise yakwa izo nshingano zo kuba umudepite.

Uyu mugabo arasobanutse yari avuye ku karere yatubwiye ko amazina ye bamwita Rumashana ariko twese twanyuzwe n'uburyo atangamo imbwirwaruhame ye.

Hari ibigo bitandukanye bikorana na minisiteri y'ubuzima, bigamije kuyifasha gutanga serivise zinoze kandi no kurushaho kwegereza abaturage bimwe mu byo bakeneye ugasanga biyitera inkunga abaturage bakarushaho kuryoherwa n'ibikorwa bakorerwa.

Imirenge ya Kibungo, Mushikiri, Nyagatare ndetse n'indi itandukanye yo mu gihugu, yatumije abaturage bayo bahuriye hamwe, maze batangira gutanga ibitekerezo byabo.

Hari amahuriro menshi agenda atuma abayobozi bahura n'urubyiruko kugira ngo urubyiruko rukangurirwe kuri gahunda zihariye z'igihugu, banamenyeshwe uburenganzira bafite kandi n'uruhare bagomba kugira mu kubaka iterambere ry'igihugu cyabo kuko ariyo gakondo yabo.

Iyo umuyobozi ari gutanga ikiganiro runaka abantu bose bari aho baba bagomba guceceka bakamukurikira, kuko igihe cyose hagize usakuza abangamira abandi, agatuma batumva ubutumwa umuyobozi yabageneye kandi bagomba kuzitwaraho mu gihe runaka.

Maze kubona ko iyo abantu bicaye hamwe bakajya inama ari bwo igisubizo cy'ikibazo cyari gihari kiboneka; ariko iyo wigize nyamwigendaho birangira ikibazo ufite kidakemutse.

Mu gihe abagize ikigo cya leta abicaye bakajya inama bituma batagwa mu gihombo kubera ko iyo bitabaye bityo usanga hari abazana imico mibi yabo yo kwiba maze ikigo kikagwa mu gihombo .

Igihe cyose ku mupaka, baba bafite ibyangombwa bacunga neza kugira ngo bakwemerere kwinjiza umuntu, umuvana mu gihugu kimwe umujyana mu kindi by'umwihariko abana, kubera ko hatekerezwa ko bataramenya kwifatira ibyemezo, bityo hashobora kubaho ubucuruzi bwabo.

Ahantu hari ibikoresho bikoreshwa mu nyungu rusange zungura rubanda nyamwinshi by'umwihariko nk'iminara cyangwa se ibindi by'itumanaho, usanga hari abakozi babishinzwe boherejwe n'ikigo runaka bagomba kubibirindira umutekano kugira ngo bitangizwa n'abadakunda amajyambere.

Ikigo gitsura amajyambere mu Rwanda gifasha igihugu mu iterambere ndetse n'abagituye, kubera ko gishobora gutanga inkunga ku mishinga mito ikizamuka kandi na none kikanayandika.

Muri iki gihe, leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu kubaka imbuga z'ikoranabuhanga cyangwa se za mudasobwa zifasha mu gutanga serivisi ubundi byagoranaga ko umuturage azigeraho.

Muri iki gihe cy'iterambere ntabwo ari ngombwa ko wirirwa usiragira ujya gushaka abagukorera ibyo ushaka kubera ko nawe ushobora kubyikorera kandi biroroshye. Icyo usabwa ni ugukurikiza amabwiriza ndetse n'amategeko.

Mu rwego rwo gutanga serivisi za leta hakoreshejwe ikoranabuhanga, hashyizweho ikigo cy'irembo, iki kigo rero cyagiye gishyiraho abagifasha bagiye batandukanye, bahereye ku mpande z'igihugu zigiye zitandukanye.

Igihe cyose ugeze ahamanitse insinga cyangwa se indi miyoboro itwara amashanyarazi, uba ugomba kwitwararika kandi ukabirinda buri umwe wese ushobora kubihungabanya, kubera ko biba bitanga inyungu kuri rubanda nyamwinshi kandi bikagirira akamaro ku bantu benshi mu buryo rusange.

Igihe cyose ukora ibikorwa bibyara inyungu zinjira mu iterambere ryawe, uba ugomba kwishyura imisoro kubera ko nayo hari ibintu byinshi igenda ifashamo leta, niyo mpamvu abacuruzi bose baba bashishikarizwa kwishyura imisoro kandi bakabikorera ku gihe kugirango birinde ibihano.

Iminara igomba gukwirakwizwa mu gihugu cyose, kubera ko abaturage bayifashisha mu itumanaho rya buri munsi, ndetse n'amaradiyo arayikoresha kugira ngo yumvikane mu gihugu hose.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro usanga akenshi gifite mu nshingano zacyo gusobanurira abaturage buri bwoko bwose bw'imisoro, kugira ngo abaturage batinubira kuyishyura ugasanga bafashwe n'ibihano bitandukanye kubera ko batasobanukiwe n'ingaruka zo kutabikora.

Igihe cyose ugiye gutangiza umushinga biba byiza iyo uwandikishije muri leta, kubera ko ari bwo leta na yo ikwitaho ariko iyo utiyandikishije ukagira ibibazo leta nayo iragutererana.

Ibigo by'igihugu bishinzwe kureberera inyungu zacyo mu bikorwa bitandukanye usanga akenshi na kenshi bikunze kugira iminsi mikuru, bigafata umwanya bigasobanurira abantu muri zimwe muri serivisi bitanga, kandi bikagerageza kubashishikariza kwitwararika kugira ngo birinde ibihano.

Igihe cyose umukozi wa leta cyangwa se uwikorera ariko atanga serivisi ahereza abantu, aba agomba kuba afite mudasobwa kugira ngo abone aho abika amakuru, igihe cyose yabajijwe azabashe kuyereka nyirayo kandi ayakuye muri mudasobwa ye, kuko ariwe wamuhaye iyo serivisi runaka.

Ahantu hose hari ibikorwa bicuruza ibyo kurya cyangwa se hari amahoteri, usanga bakunda gutanga interineti y'ubuntu, kugira ngo abarimo imbere barusheho kuryoherwa na serivisi nziza zitangirwaho kandi baryoherwa n'ibiri kubera mu isi ngari ya murandasi.

Mperutse guhamagarwa n'umukozi wa rura, arambwira ati "shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa se wakira ubutumwa busaba amafaranga, ndetse n'ubundi bushukanyi bwitiriye ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye" ubwo butumwa nahise mubwira bagenzi banjye nanjye.

Byakomeje kuba ingorabahizi ku bantu benshi ku bijyanye no kwishyura imisoro, ikigo kibishinzwe gihitamo kubishyira kuri murandasi aho buri muntu wese ashobora kubyikorera bitamusabye kujya gutonda umurongo, icya mbere ni uko aba azi gukoresha ikoranabuhanga akinjira mu buryo bwo kubikoresha.

Inzego zibishinzwe zigerageza gushyira ibikoresho byose kabuhariwe kwa muganga mu rwego rwo kugira ngo hatangwe serivisi nziza kandi zinoze abarwayi babashe kwitabwaho bavurirwa ku gihe ndetse n'abakeneye umwuka bowongererwe uko bagenda batera imbere gake gake.

Ubuziranenge ku biribwa ndetse n'ibicuruzwa bitaribwa ni ingenzi ni nayo mpamvu leta y'u Rwanda yashyizeho ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge haba ku biribwa ndetse no ku bindi bicuruzwa byose bitari ibiribwa.

Mu Rwanda dufite imbuga za murandasi zigiye zitandukanye. Hari iza leta, iz'abikorera ndetse n'iz'ibigo bitegamiye kuri leta. Nko mu za leta twavugamo RGB ishinzwe imiyoborere, REB ishinzwe imyigishirize, ndetse na NESA ishinzwe itangwa ry'ibizamini ndetse n'ikosorwa ryabyo.

Ikigo gishinzwe imisoro mu Rwanda usanga kigerageza gutanga serivisi nziza kandi zinogeye benshi, kubera ko kigenda gishyiraho uburyo bwinshi wakorana na cyo ndetse ukarushaho kukimenyesha amakuru y'ibikorwa byawe bya buri munsi binyuze mu ikoranabuhanga.

Mu mirimo itandukanye by'umwihariko iy'ubwubatsi, umuntu wese uyikora aba asabwa kuba afite ibyangombwa byose by'ubwirinzi, mu rwego rwo kugira ngo yirinde impanuka cyangwa se kuba yakomeretswa n'ibintu byose bishobora guturuka muri iyo mirimo akora bityo ubuzima bwe bugahungabana.

Ikigo gishinzwe itumanaho cya emutiyene gikunze gutanga serivisi zitandukanye aho usanga gishobora no gukorana na Leta, mu buryo bw'imyishyurire igihe cyose Leta ishaka kugeza amafaranga ku bayoborwa bayo kandi bigakorwa ku bwinshyu buri hasi cyane.

Amazu ya leta akoreramo ibigo by'imari cyangwa se ibindi bigo byose bya leta, abagomba kurindirwa umutekano. Kubera ko iyo batayarindiye umutekano, ibisambo bishobora kuza bikayasagarira.

Muri iyi si y'ikoranabuhanga ntibikigoye kwishyura cyangwa se gukoresha serivisi za leta, kubera ko hamwe n'urubuga rw'irembo ushobora gusaba ndetse no kwishyura serivisi za leta unyuze kuri uru rubuga kandi ukanazishyiriraho, serivisi wasaba harimo iza leta iz'ubuzima ndetse n'izindi zitandukanye.

Iyo hari icyangombwa runaka ukeneye by'umwihariko mu bikenerwa n'abaturage, hari imbuga zitandukanye nkoranyambaga ujyaho, ukabasha gusaba ibyo byangombwa ukabihabwa, ubanza kwiyandikisha cyangwa se ugahabwa impapuro z'inzira zikwemerera kujya mu bihugu by'amahanga binyuze kuri telefone yawe.

Nk'uko twabyize mu mashuri hari ubwoko bwinshi bw'imisoro hari imisoro ku nyongeragaciro imisoro ku nyungu ndetse n'imisoro ku bukode.

Ikigo cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda gihora gishishikariza abantu gutanga imisoro ku gihe, tutibagiwe n'imisoro ku nyongeragaciro kubera ko iyo bidakozwe gutyo umucuruzi agafatwa arahanwa.

Dufite inzego nyinshi, zishinzwe kugenzura uburezi. Muri izo nzego harimo na Rebu. Rebu ni ikigo gishinzwe kugenzura uburezi bw'ibanze.

Umwaka ushize nitabiriye imurikagurisha, nabonyemo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, kandi abacuruzi nabo barungutse nanjye nahise neyemeza kuzajya nitabira imurikagurisha.

Kwishyura umusoro ni bimwe mu bituma igihugu gitera imbere kandi kigakomeza gufasha abaturage bacyo. Ni byiza rero ko niba udasobanukiwe iby'umusoro usura urubuga rwa Rwanda revenu osoriti kugira ngo ubone amakuru yisumbuyeho.

Ndaberetse ni umugabo ufite mudasobwa abantu benshi bakunda kumwegera kugirango abakorere serivisi z'ikoranabuhanga zigiye zitandukanye harimo nko kwishyura imisoro ndetse no kwishyura mituweli

Abantu akenshi bagirwa inama yo kudakoresha telefone bari mu muhanda kubera ko bishobora gukurura impanuka cyangwa se bakakwiba telefone yawe, niyo mpamvu abantu benshi iyo bagiye bataka ko bibwe telefoni babaza niba batazikoreshaga bari mu muhanda.

Usanga henshi ahantu hatuwe n'abantu benshi bakunda kuhagera, hari abakozi ba MTN bakunda kwegera abaturage bakabahereza serivisi zirimo nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga bifashishije telefone, bakayakoresha mu nyungu zabo.

Biba byiza iyo twese tumenye akamaro k'amashanyarazi, tukamenya ko tugomba kubungabunga ibikorwaremezo biyakwirakwiza mu gihugu hose, kubera ko iyo bitagenze gutyo, usanga abantu bishora mu bikorwa byo kwangiza ibikorwa remezo bikwirakwiza aya mashanyarazi.

Leta igerageza kugira abaturage inama yo kureka gutura mu manegeka kuko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga, kubera ko baba batuye ahatemewe kandi bashobora gusenyerwa n'imvura cyangwa se ibindi biza mu gihe runaka.

Ibikorwaremezo byifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, byamaze kugaragara ko bitamara igihe kirekire, kubera ko biba bitujuje ubuziranenge, biba byiza rero iyo bisimbuwe.

Igihe cyose hari imodoka zihagaze iruhande rw'umuhanda ziba zigomba gucungirwa umutekano w'ibyo zihetse, kubera ko abajura isaha n'isaha bashobora kubihungabanya bigatuma ba nyirabyo bagwa mu gihombo kandi bitari byitezwe na nyir'umuzigo.

Data aherutse kumpamagara ambwira ko mu mudugudu wacu hajemo amashanyarazi, none ngo murumuna wanjye yiteje imbere kubera ko afite inzu yogosha.

Kugira ngo amashanyarazi akwirakwire mu gihugu hagomba kubaho ibiyakwirakwiza, ni nayo mpamvu rero leta ishyira imbaraga mu gukwirakwiza insinga ndetse n'amapoto.

Hagamije kwirinda akajagari cyangwa se urucucirane rw'inganda, leta y'u Rwanda yiyemeje ko inganda zose zigomba kujya mu gice kimwe, bityo hakagira igice cyazigenewe ahandi hakagenerwa guturwa cyangwa se ubuhinzi n'ibindi bikorwa bibyara inyungu.

Akenshi usanga ibikorwa by'imiriro y'amashanyarazi, bitewe n'uko bifasha abaturage kwiteza imbere, leta y'u Rwanda yariyemeje kubikwirakwiza kugira ngo bigere kuri buri umwe. Bityo n'ibikorwa byiza bibashe gusakara mu baturage, barusheho kubona biboroheye, ibintu byose.

Duhora tugirwa inama yo kubungabunga ahantu hari ibikorwa remezo kubera ko iyo tutabibungabunze tuba turimo kugira uruhare mu gusubira inyuma kw'igihugu ariko iyo tubibungabunze bituma igihugu cyacu gikomeza gutera imbere .

Akimara kubona ko mu murima we hanyujijwemo umuyoboro mugari utwara amashanyarazi, yafashe icyemezo cyo kurekera kuhahinga kugira bitazamubangamira kandi bigahungabanya umutekano we. Ahitamo kwegera ubuyobozi bw'Akagari kugira ngo bumufashe muri icyo kibazo.

Muturage niba hari igikoresho gikwirakwiza amashanyarazi kiri imbere y'urugo rwawe ugomba kukibungabunga kandi ukabuza abana kugikinisha kubera ko gishobora gutera inkongi y'umuriro igihe kititaweho cyangwa se igihe cyakinishijwe n'abana.

Amashanyarazi ni meza kubera ko atuma dukora ibintu bigiye bitandukanye nko kogosha ,gusya imyaka ndetse n'ibindi gusa hari ibidufasha cyangwa se hari ibituma amashanyarazi agera ku baturage ibyo ngibyo rero tugomba kubyitaho .

Kalisa aherutse guhabwa akazi n'ikigo gitwara imizigo uyu mugabo abikora neza cyane kuberako arabanza akagenzura imizigo mbere ndetse na nyuma yo kujya mu kazi.

Mu bikorwa remezo byihutisha gutumanaho kwabantu harimo n'imihanda ni byiza rero ko iyo mihanda iterwaho ibiti kugirango abantu bagenda muri iyo mihanda nabo bagire ubuzima bwiza kubera ko nkuko tubizi ibiti bizana umwuka mwiza twese duhumeka .

Leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo gukwirakwiza ibikorwa remezo kugira ngo yorohereze abaturage bayo kubona cyangwa se kugera kuri serivisi runaka bitabagoye ndetse n'ubuhahirane kubukora byihute, bityo iterambere rigerweho mu buryo bworoshye.

Birabujijwe gutura munsi y'imiyoboro y'amashanyarazi, kubera ko igihe cyose habaye nk'icyago bishobora gutera inkongi ku nzu yawe, bigatuma yangirika kandi bigahungabanya n'umutekano w'abagize umuryango. Niyo mpamvu usanga leta ishishikariza abantu benshi kubyirinda.

Abaturage b'akarere ka Nyaruguru, bamaze iminsi binubira ikibazo cy'amashanyarazi, gusa ikigo gishinzwe amashanyarazi, cyababwiye ko impamvu batabona amashanyarazi, ari uko imiyoboro itwara ayo mashanyarazi yamaze kwangirika.

Iyo ibiti bishinzwe gutwara imiyoboro y'amashanyarazi bihari, kirazira kubyangiriza ngo ubikoreshe mu nyungu zawe bwite cyangwa se ufata izo nsinga zindi uzikoreshe mu bikorwa bigufitiye inyungu, kubera ko ni ibikorwa byagenewe gutanga inyungu ku bantu rusange.

Igihe cyose usanga abaganga cyangwa abandi batanga serivisi zifite aho zihuriye n'ubuzima bagerageza kuba inshuti n'abo bahereza izo serivise. Kugira ngo ngo babiyumvemo bityo bituma akazi kabo kagenda neza bakunzwe nabo bari gufasha.

Inzu zikoreshwa na Leta izitangiramo serivisi, igihe bagiye mu kiruhuko zitari gukoreshwa nta muntu n'umwe uba wemerewe kuzangiriza; cyangwa se ngo azikorere n'ibindi bikorwa bibusanya n'icyo zagenewe, kubera ko bishobora kwangiza imimerere n'imiterere yazo.

Ibigo byose bitanga serivisi bizihereza abantu benshi, usanga bategekwa gusiga umwanya wabugenewe wo kuzajya abantu bahagarikamo imodoka, igihe cyose baje gushaka serivisi zitangwa n'ibyo bigo. Bityo ntibacibwe amafaranga yo guhagarara ahantu hatemewe.

Kugira ngo abaturage bishime kandi bahabwe serivisi zinoze, haba hagomba gusakarirwa ahantu hose banyura bajya gushaka izo serivisi kuko usanga rimwe na rimwe bibaye ngombwa bahicara cyangwa bakahatonda imirongo, bityo bikabafasha kuticwa n'izuba igihe bategereje.

Ahantu hose hari inzu zitangirwamo serivisi zihabwa abantu benshi, hari ahantu haba hagomba gushyirwa ibyapa biburira abantu ko hari ibikorwa runaka bitemewe kuhakorera, kugira ngo umuntu umwe ataza kubikora bikarangira aguye mu bihano cyangwa se hari irindi tegeko rimugonze.

Nyuma y'uko bigaragaye ko ari ikibazo kandi giteje inkeke guverinoma y'u Rwanda yiyemeje gutanga imbangukiragutabara ku bigo nderabuzima bitandukanye, hagamijwe kujya bagereza abarwayi ku gihe, igihe cyose bakeneye kujya ku bitaro bikuru.

Akenshi usanga ku bitaro hagenda hegerezwayo ingobyi z'abarwayi zizwi nk'imbangukiragutabara kugira ngo igihe cyose urwaye akeneye ubutabazi ku buryo bwihuta bamugeze kwa muganga bitagoye, bityo yitabweho kandi akurikiranwe n'abaganga.

Ku bitaro hagerageza gusakarirwa ahantu hose hari inzira zinyurwamo n'abarwayi kugira ngo bazabashe kubungabungwa igihe cyose bagenda kuko ntawamenya, ushobora gusanga hanyuze abatabona bagatinda mu nzira bakabangamirwa n'izuba cyangwa imvura.

Kubera ko umuntu agomba guhabwa serivisi nziza kandi zinoze usanga iyo umuntu ageze ku bitaro yakiranwe yombi, yewe yaba ari indembe agashyirwa ahakirirwa indembe akarushaho kuvurwa kandi akitabwaho neza ku buryo bw'umwihariko bityo agakira vuba.

Igihe cyose usanga imfungwa n'abagororwa bicazwa bagahabwa ibiganiro bibafasha guhinduka mu mitekerereze yabo, bagahabwa n'inyigisho zizabafasha kubana n'abandi, igihe cyose bageze hanze mu muryango mugari kandi bakabana mu mahoro.

Abashinzwe gucunga imfungwa n'abagororwa usanga bafite impuzankano zabugenewe bambara, kandi bakabikora badahutaje umutekano w'abo bashinzwe kurinda, ariko na none bagacunga neza ku buryo nta n'umwe wabacika.

Numvise itangazo kuri radiyo ngo uyu mugabo baramurangije yitwa Nteziryayo emanuweli akaba aturuka mu karere ka Nyanza se akaba yitwa Sekaganda, naho nyina akitwa Nyiransabimana.

Abayobozi bose cyangwa se abandi bantu batanga serivisi zagenewe abaturage, baba bategetswe kubegera bakumva ibibazo bafite hanyuma bakabafasha kubikemura, kandi ku kiguzi icyo ari cyo cyose basabwa.

Kwiba, kwica, kunyereza imisoro ndetse n'ibindi bitandukanye, ni bimwe mu bigize ibyaha, iyo uhamije kimwe muri ibyo urafungwa cyangwa se ugacibwa amafaranga.

Kugira ngo igihugu kibeho mu mutekano, ni uko kiba kigomba kuba gifite amategeko, niyo mpamvu rero nka leta y'u Rwanda yashyizeho amategeko agenzura cyangwa se akanahana abakoze ibyaha.

Abaturage akenshi usanga bakunze kurangwa n'imico myiza aho igihe cyose iyo bategereje kumva imbwirwaruhame y'umuyobozi wabo, usanga bamuteze amatwi ndetse n'ubwitonzi bwinshi, bigatuma bumva ubutumwa runaka yabageneye kandi buzabagirira akamaro.

Niba ushaka kumenya amategeko atandukanye ndetse n'ingingo ziyagize ugomba gusoma itegeko nshinga ry'u Rwanda kuberako ryo rikubiyemo byinshi byakuri kuba wagwa mu cyaha.

Mperutse gusoma ikinyamakuru cyandika ku Rwanda, nasomyemo inkuru ivuga ko imanza nyinshi zo mu Rwanda, zirangira neza, kandi nta buriganya bubayeho, dore ko ngo mu bindi bihugu bijya bibaho.

Iyo abaturage bafitanye ikibazo gituma haza amakimbirane hagati yabo ubuyobozi bw'akagari cyangwa se umurenge buraza bukabafasha kugikemura, aho babanza bakumva umwe n'undi ku ruhande rwe bakamwumva bakabunga amahoro agakomeza agasagamba.

Akenshi usanga abacamanza bagira ubushishozi igihe cyose bari guca urubanza, kugira ngo hatabaho ikibazo cyo kuba hagira umuntu urenganywa mu baburana bombi kandi hari n'abandi bantu benshi bateze amatwi, kandi bakurikiranye icyo gikorwa.

Abayobozi bose, igihe bari mu nama runaka, ni ngombwa ko bahabwa amazi mu rwego rwo guhangana n'umunaniro, kugira ngo ubashe kubakura mo ibitekerezo wumve icyo batekereza, kubera ko amazi abarinda gusinzira bya hato na hato, bityo bakitabira igikorwa cyabazanye.

Abacamanza bashinzwe guca imanza, usanga ari inzobere kandi ari n'inyangamugayo, niyo mpamvu rero tuba dukwiye kwemera imyanzuro batanze, kubera ko nta mucamanza ushobora kubogama.

Akenshi na kenshi ahantu hari amagororero usanga hari ibyapa binini bibigaragaza , kugira ngo umuntu wese uje gusura umuntu we uri kugororerwamo abashe kuhamenya igihe cyose ahageze, kandi amenye n'amategeko amurengera igihe cyose adahawe serivisi nziza.

Akenshi na kenshi usanga abaturage badakwiye kwita kandi ngo babungabunga amategeko abagenga, kubera ko usanga batayazi, niyo mpamvu leta igerageza kubegera ikabasobanurira amwe mu mategeko abagenga, kugira ngo barusheho kugena uburyo bitwaramo.

Polisi y'u Rwanda bazwiho ko ari bamwe mu bahanga bakunze kwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro igihe cyose yananiranye kuko abagize uwo muryango cyangwa se umudugudu baba bagerageje bikanga bagahitamo kwitabaza polisi.

Igihe cyose ubonye ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro uba ugomba kwitabaza inzego zibishinzwe, ukirinda kubyegera cyane kubera ko ushobora gusukamo amazi, ndetse n'ibindi bintu bitagenewe kuzimya umuriro bikarangira uhaye inkongi, umurego wo gukomeza kwiyongera kandi atari byo.

Umuturanyi wanjye yakoze impanuka ejo bundi, bamutwaye ku kigo nderabuzima, bamupimye basanga igufwa ryatandukanye n'irindi. Bahise bamwohereza ku bitaro bya Kacyiru, bya polisi kugira ngo bakomeze kumwitaho.

Ubundi usanga ku bigo bitandukanye by'amashuri cyangwa se amavuriro atandukanye, hari ibikoresho bitangwa na leta, aho usanga byifashishwa n'abakoresha ibyo bigo, mu gihe usanga rimwe na rimwe hari ibyifashishwa bazimya umuriro, cyangwa se bakwirakwiza amazi hagati aho muri icyo kigo.

Usanga akarere kose mu Rwanda, kagira imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, bitewe n'uko leta yabonye ko iyo ahantu hatewe n'inkongi y'umuriro, hangirika ibintu byinshi, yahisemo kwegereza izo modoka kugira ngo ntizikajye zituruka kure.

Polisi y'u Rwanda igerageza gutanga serivisi zinoze, aho rimwe na rimwe usanga iri gufasha abanyamaguru kwambuka cyangwa se igafasha imodoka kunyuranaho ntayibangamiye indi kubera ko usanga akenshi bakunze kuba bari mu mihanda, bakaba bugufi y'abantu.

Byagiye bigaragara ko hari abantu bahabwa amasoko ya leta maze bakubaka ibikorwa remezo uko batabibwiwe biba byiza rero ko niba uhawe isoko rya leta unoza akazi kawe.

Ibikoresho byifashishwa hazimywa inkongi y'umuriro usanga bikunze gushyirwa ahantu kandi hagacungirwa umutekano n'abakozi babishinzwe, kugira ngo bitabasha kwangizwa cyangwa bigakoreshwa mu gihe bitagenewe gukora bityo bigateza leta igihombo.

Polisi y'u Rwanda ifite amashami menshi, hari ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, iri ngiri ni ryo ryita ku bantu ndetse n'ibintu birimo kugenda mu muhanda, bakamenya niba ntampanuka yabayeho.

Imodoka zigira ibiziranga bitandukanye, bigaragaza niba imodoka ari iy'umuntu ku giti cye cyangwa se niba ari iya leta. Biba byiza rero iyo utagerageza guhindura ibiranga imodoka yawe.

Iyo baguhannye mu muhanda cyangwa se wakoze andi makosa akomeye, imodoka yawe bayizana ku cyicaro gikuru cya polisi, bakagusaba nawe kwitaba ukaza ugacibwa amande cyangwa se ibindi bihano biturutse ku kwitwara nabi wagize.

Igikorwa cyo gutora ni igikorwa kireba buri munyarwanda wese kandi niba ugiye gutora ni byiza ko utora umuyobozi wihitiyemo kandi ubona ko azakugeza ku iterambere.

Mu matora y'ubushize ishyaka rya girin pati naryo ryatanze umukandida ku mwanya wa perezida, ariko ku bw'amahirwe make ntabwo ryabonye umwanya kubera ko ishyaka rya efuperi, ariryo ryatsinze aya matora.

Abayobozi bakomeye barimo nk'abaminisitiri, abaperezida cyangwa se abandi bantu b'ibyamamare nk'abahanzi, abakinnyi b'imipira ndetse n'abakinnyi ba filimi iyo bagiye mu kivunge bisaba ko haza umuntu ubarinda.

Amafoto by'umwihariko ay'abayobozi, kiba ari ikintu kigomba kubahwa cyane mukirinda kuyahanahana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo hatazagira abayakoresha mu buryo bubi kandi busenya igihugu, bigatuma hari bamwe bibangamira umutekano wabo.

Iyo wumva wifitiye icyizere ukiyamamaza mu matora n'abaturage bakakugirira icyizere bakagutora, nyuma urarahira, kurahira ntabwo ari umuhango kubera ko ugomba kuvuga ibyo uzakora.

Abakozi b'umurenge cyangwa se ab'akagari usanga buri munsi bahora biteguye mu biro byabo bategereje abaturage ngo babahe serivisi, haba abaje gushaka ibyangombwa byo gushyingirwa, cyangwa se abashaka gushyingiranwa, bose bakakiranwa yombi.

Iyo abayobozi bari kurahira bagiye kwakira inshingano runaka, bategekwa gufata ku idarapo, kugira ngo bahane igihango n'igihugu, biyemeze ko batazagitenguha kandi bazakora ibyo biyemeje igihe cyose bakiri mu nshingano.

Amahanga yari azi ko nta gihugu cyo muri Afurika cyagira amatora ngo arangire neza hatabayemo imvururu, ariko umwaka ushize u Rwanda rwagaragaje ko ibyo no muri Afurika bishoboka.

Mu matora y'ubushize amahanga yabonye ko burya u Rwanda rushoboye, kubera ko aho umukandida wa RPF inkotanyi Paul Kagame yagendaga hose, abantu baritabiraga kandi ari benshi.

U Rwanda ni rumwe mu bihugu byemera amashyaka menshi kubera ko hari amashyaka nka Efuperi ndetse na Girini pati, aya mashyaka kandi yahatanye amatora y'umukuru w'igihugu ashize, gusa Arapiyefu n'iyo yatsinze amatora.

Igihe cyose urimo ugenda mu muhanda waba utwaye cyangwa se utwaye ku kinyabiziga uba ugomba kubahiriza amategeko yawo, ukirinda kurekura ikinyabiziga utwaye kandi ukirinda guhungabanya umutekano w'abanyamaguru kugirango udateza impanuka.

Leta yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo ni nayo mpamvu rero nk'abaturage natwe tugomba gushyira imbaraga mu kubungabunga ibyo bikorwa remezo kubera ko iyo bitagenze gutyo ibyo byose birangirika.

Kugenda mu muhanda bisaba kwitonda, kubera ko hari igihe usangamo ibinyabiziga byinshi kandi ukamenya ko niba uri umushoferi, ugomba kugenda utanyoye ibisindisha cyangwa se ibindi byose byatuma utareba neza ibiri mu muhanda.

Imwe mu mpamvu ituma Abanyarwanda bishima bavuga ko baba barahawe ibikorwa remezo byiza biri ku rwego Isi iri kugendaho kandi ugasanga bakora ubuhahirane bava mu gace kamwe bajya mu kandi bitabagoye bityo buri wese aba afite uburenganzira bwo kugenda uko ashaka igihe cyose abishakiye.

Abantu bose batwara ibinyabiziga haba mu buryo bwa rusange cyangwa buryo bw'umwihariko bagirwa inama yo guhagarara ahabugenewe kugira ngo badahagarara ahadahagararwa bikarangira biyangirije umutekano cyangwa se babangamiye urujya n'uruza rw'abaturage aho bari hose.

Leta niyo ifata iya mbere igakora ibikorwa remezo birimo nk'imihanda aho imodokadoka abantu bazajya banyura iyo yakoze imihanda myiza rero biba byoroheye abacuruzi ndetse n'abatwara ibintu .

Uburyo bw'imihahiranire cyangwa se imigenderanire hagati y'abantu bava mu gice kimwe bajya mu kindi byaroroshye, bitewe n'uko leta y'u Rwanda igerageza kugenda yongera imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bityo umuntu akabasha kuva ahantu hamwe akajya ahandi bitamugoye.

Hari amoko menshi y'ibinyabiziga, muri ayo moko twavugamo nk'imodoka amagare ndetse n'ibindi bitandukanye gusa imodoka nimwe mu binyabiziga byifashishwa mu gutwara imizigo iremereye.

Niba uri umuyobozi w'ikinyabiziga ukaba ubona ibinyabiziga byinshi mu muhanda ugomba kugabanya umuvuduko kugirango utaza guteza impanuka ukaba wabura ubuzima bwawe ndetse n'ubwa ub'utwaye.

Leta niyo ifite mu nshingano gusana ibikorwa remezo byangiritse; ariko nanone n'abaturage ubwabo bashobora kuba basana ibikorwa byangiritse bitari bwabasabe ubushobozi buremereye cyangwa se ubundi bushobozi bwatuma bajya mu bukene.

Iyo umuhanda ukozee neza kandi ukaba ari nyabagendwa byorohereza abantu bose bawukoresha kugenda bisanzuye kubera ko usanga bakoresha ibyerekezo byombi batitaye ngo iki gisate nicy'abagenda cyangwa bagarukake.

Mu busanzwe moto z'amapine atatu zikunze gukoreshwa hagamijwe gukora ikintu kimwe by'umwihariko imizigo bijyanwa ahandi, ariko ugasanga zitemererwa gutwara abantu n'iyo zabatwara ntizemerewe kurenza umuntu umwe ujyana n'uw'uyitwaye.

Igihe cyose utwaye imodoka ipakiye imizigo uba ugomba gucunga neza ko wayipakiye mu buryo itabangamira imigendere y'ibindi binyabiziga bitewe n'uko atari we wenyine uri gukoresha umuhanda, ahubwo n'abandi baba bawukoresha bityo gahunda zawo zikabangamirwa n'uko wapakiye nabi.

Imihanda myiza ni imwe mu mpamvu zituma ubwikorezi bworoha hagati y'ibinyabiziga byose kubera ko usanga mu minsi ya kera hari ahatagendwaga n'amagare ariko ubungubu nayo aragenda kandi na moto ndetse n'ibinyabiziga bikuru nk'imodoka bikabasha kubisikana neza.

Mu myaka myinshi ishize cyari ikibazo ko umuntu ushaka gukora urugendo abona imodoka ariko mu ya vuba aha ngaha leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushaka imodoka zifasha abantu bose bakora ingendo.

Igihe cyose utwaye cyangwa se utwawe ku kinyabiziga, uba ugomba kwitwararika, yewe ukibutsa ugutwaye ko ari ingenzi kandi ari inshingano ze, kubahiriza amategeko y'umuhanda, kubw'umutekano wa buri umwe wese mu bari mu muhanda.

Iyo ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda by'umwihariko ibikoresha moteri, biba bigomba kubahiriza intera yagenwe kugira ngo bidateza impanuka ku buryo bworoshye bityo ubuzima bw'abantu bukahatikirira, niyo mpamvu usanga akenshi Polisi y'Igihugu igira inama abashoferi kwitwararika.

Abatwara amagare nyuma y'ubushakashatsi, haje kugaragara ko aribo bakunze gutera impanuka zikunze kubera mu muhanda, bahita bafata icyemezo cyo kubagabanyamo cyangwa se bakabashakira ahandi bagomba kunyura, mu rwego rwo kubahiriza umutekano wa muntu.

Igihe cyose utwaye abagenzi kuri moto cyangwa mu buryo bwa rusange, uba ugomba kwitwararika kugira ngo udahungabanya umutekano w'abakoresha umuhanda. Kandi imodoka nazo zigasabwa kwitwararika kugira ngo igihe cyose umuntu utwaye moto ahagaze nazo zibashe kumuhereza umwanya wo guhagarara.

Abagenzi natwe dusigaye twaramenye ubwenge, kubere ko ntabwo wantwara kuri moto udafite uruhushya rwo gutwara na none kandi ngo unyambike ingofero yo kundinda igihe twaba dukoze impanuka.

Umushoferi wese igihe atwaye imodoka mu muhanda haba mu buryo bwa rusange cyangwa se atwariye ahantu ha wenyine, aba agomba kwitwararika kugira ngo atangize ubuzima bw'umunyamaguru cyangwa se abandi batwaye ibinyabiziga bagenzi be, bityo urujya n'uruza rukangirika.

Kugirango urujya n'uruza rugende neza hagati y'abantu ndetse n'ibinyabiziga ,usanga buri umwe wese asabwa kwitwararika igihe cyose akoresha umuhanda, by'umwihariko ageze ahantu hateye kuko usanga hari abantu benshi ,bityo bikaba bishobora kubangamira buri umwe igihe cyose utitwaye neza.

Mu muhanda umuyobozi w'ibinyabitende agomba kugendera mu mukono we kubera ko atabikoze gutyo ashobora kugongana n'ibindi binyabiziga.

Abashoferi batwara imodoka z'imizigo bakunze kugirwa inama yo kudapakira imodoka zabo imizigo irusha imodoka ubushobozi kubera ko usanga bikunze gutera impanuka biturutse ku kuba nta bushobozi imodoka yarite buhagije bwo gutwara ibyo bintu biremereye.

Iyo uri umunyamaguru uri kugenda mu muhanda uba ugomba kwitwararika kugirango utaza guhutazwa n'ikindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose nk'igare cg se imodoka bityo bigatuma ujya kwa muganga gahunda zawe ntizikomeze kugenda uko wabyifuzaga.

Ikorwa ry'imihanda mu duce tumwe na tumwe rigenda ryoroshya ubuhahirane muri ibyo bice, aho usanga imodoka zibasha kwikorera ibicuruzwa zibivana hamwe zibigeza ahandi, kandi bitazigoye ugasanga bituma ba nyirazo babona inyungu nyinshi mu gihe gito.

Imodoka zitwara imizigo usanga akenshi zishishikarizwa guhagarara ariko zigahagarara baziteze bimwe mu biti bishobora kuzikumira, igihe cyose habayeho kudakora neza kwa feri, bityo zikangiza umutekano w'abantu.

Buri muntu wese amaze gusobanukirwa ko ari ikizira kwangiza igikorwa remezo kubera ko kigira inyungu rusange kuri buri muntu wese, niyo mpamvu igihe cyose ugenda mu muhanda uba ugomba kwitwararika ukubahiriza ibyapa kugira ngo utagira na kimwe wangiza.

Hagamijwe guhamya ko siporo igomba kuba umuco, usanga uturere twinshi ndetse n'imirenge tugerageza kubaka ibibuga by'imipira bitandukanye kugira ngo abantu bajye babona aho bakorera siporo kandi barusheho kwidagadura, ubuzima bwabo bukomeze.

Ibibuga byo gukiniramo imikino igiye itandukanye, nk'umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, ndetse n'indi, ni bimwe mu bikorwaremezo byubakwa na leta, iyo leta ishoramo imari bituma siporo igenda neza kandi n'abantu bakayitabira.

Leta igerageza kubaka ibigo bitandukanye mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze, abantu bakarushaho kubona aho babonera ibikorwa bibafasha ndetse bakarushaho no kubona ibigo by'imyidagaduriro bashobora kujyamo igihe cyose bakeneye kuruhuka.

Amategeko y'umuhanda, ni bimwe mu bituma umushoferi adakora impanuka, biba byiza rero ko ujya kwiga amategeko y'umuhanda mbere y'uko utwara ikinyabiziga, kubera ko iyo utabikoze gutyo, uba uri gushyira ubuzima bwawe mu kaga ndetse n'ubw'abagenzi.

Hari bimwe ugomba kwitwararika igihe cyose urimo gutwara mu muhanda cyangwa se urimo kugendamo. Muri bimwe, harimo no gukurikiza ibyapa. Kubera ko iyo ukurikije icyapa bituma utakora impanuka cyangwa se ngo uyiteze n'abandi.

Birabujijwe gutwara ikinyabiziga wanyoye, kubera ko iyo wanyoye inzoga cyangwa se itabi bituma utareba neza bityo ukaba utakurikiza n'ibyo ibyapa bikubwira.

Niba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, ni byiza ko wibanda ku byapa, kubera ko iyo utabyize, ushobora gusanga uri mu makosa, inzego zibishinzwe zikaguhana kandi iyo baguhannye ntabwo watera imbere.

Abatwara ibinyabiziga haba abagenda kuri moto cyagwa se abakoresha imodoka, ni ngombwa ko bubahiriza ibyapa kugirango batabangamira urujya n'uruza rw'abantu bose bakoresha umuhanda, niyo mpamvu ugomba kuba ufite ubumenyi bwihariye ku bijyanye n'umuhanda cyangwa se ibyapa biri mu muhanda.

Kubera ko imihanda yabaye myinshi mu mujyi wa Kigali, bisaba ko uba uzi nimero y'umuhanda ndetse n'izina ryawo, kuko iyo utawuzi ushobora kubura, kandi bakubuze nta kuntu warangisha.

Biba byiza ko buri muntu wese akurikiza amategeko waba warize waba utarize gusa nanone hari aho bisaba gusoma iyo utize rero ugomba kubaza bakagusomera.

Hari ahantu henshi usanga bitemewe ko umushoferi ahaparika, iyo atazi gusoma cyangwa se atarize amategeko y'umuhanda ashobora kuhaparika, maze abashinzwe umutekano bamubona bakamuca amafaranga.

Abashinzwe umutekano mu muhanda bahora badushishikariza kubaha amategeko y'umuhanda harimo ibyapa ndetse no kugenda tutanyoye kandi koko ni kubera ko iyo tubirenzeho twishyira mu kaga.

Ku bize amategeko y'umuhanda bagaragaza ko hari ibyapa by'amoko abiri .Iyo umushoferi rero abikurikije bimurinda kuba yakora impanuka.

Biroroshye kumenya aho ugeze hose mu Rwanda kuko biragoye ko hari aho wagera ngo uharuhabure icyapa kikubwira icyerekezo ugezemo kabone n'u waba uri umunyamahanga usanga bitari ingorabahizi kubera ko usanga kuri buri muhanda hari icyapa kiyobora abagenzi kibabwira aho bageze.

Namaze kubona ko iyo wize, ukaba uzi gusoma, ibintu byose byoroha, dore nku'ubu nkumuntu utarize ntabwo yamenya ibyanditse kuri iki cyapa, ariko nkanjye wize ndabireba nkabisoma nkamenya ibyo aribyo.

Ni ingenzi ko buri muntu wese akurikiza amategeko y'umuhanda, dore ko iyo umuntu atayakurikije bishobora kuvamo impanuka, maze abatwaye bakaba bagira ikibazo, bagapfa cyangwa se bagakomereka cyane.

Ahantu hose hari ibyapa uba ugomba kubabahiriza igihe cyose utwaye ibinyabiziga, kugira ngo wirinde kuba wahanwa n'inzego zibishinzwe, ugacibwa amafaranga, kandi ayo mafaranga wakayakoresheje mu nyungu zawe bwite ukiteza imbere.

Igihe cyose umuntu arimo agenda mu muhanda aba asabwa kubahiriza ibyapa bishinzwe kumuyobora kugira ngo ataza kwangiza bimwe mu bikoresho cyangwa se akangiza imigenderanire hagati y'abantu bava hamwe bajya ahandi.

Iki cyapa gisobanura ko nta muntu ugomba guparika aho kiri, ariko iyo utazi iby'iki cyapa ushobora kuhaparika maze abashinzwe umutekano na bo bakaguca amande.

I Nyarugenge habereye impanuka ikomeye abashinzwe umutekano wo mu muhanda bavuze ko iyo mpanuka yatewe nuko umushoferi wari utwaye imodoka atitaye ku byapa byo ku muhanda kandi akanarekura feri .

Nyiransabimana Valentine ashaka kwiga gutwara imodoka, yegereye abantu babyigisha ababaza icyo agomba gukora, bamubwiye ko agomba kubanza kwiga ibyapa kubera ko aribyo bituma udakora impanuka.

Byamaze kwemezwa nk'itegeko ko umuntu wese ukoresha umuhanda agomba kuba afite ubumenyi bwihariye ku muhanda kandi azi neza gukoresha ibyapa, kugira ngo bijye bimuyobora atabasha kwangizariza ibindi bikoresho cyangwa se ngo abangamire abandi bakoresha umuhanda.

Ibyapa byo ku muhanda, ni bimwe mu bituma umushoferi adakora impanuka. Kubera ko iyo azi gusoma neza ibyapa, amenya aho ari bwongeza umuvuduko, n'aho ari bwawugabanye.

Abakozi b'irembo usanga akenshi bakenewe n'abantu kubera ko nibo babafasha kwiyandikisha no kubona ibindi byangombwa, ibyinshi bikunze gutangwa binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho usanga bafasha abaturage kubayobora kandi bakabereka igikwiye bakarushaho kunogerwa n'izo serivisi kandi bakiyandikisha vuba.

Abantu by'umwihariko abatuye mu mujyi wa Kigali bagirwa inama yo kugerageza kwegera, cyangwa se bagatura ahagenewe imiturire mu rwego rwo kwirinda gushyira ubuzima bwabo mu kaga; kuko bitabaye ibyo Leta iraza ikabasenyera ikabajyana aho abandi batuye.

Kubera ikibazo cy'ubutaka buto buri kuboneka mu gihugu, leta igira inama abantu yo kubaka amazu agerekeranye, kubera ko aribyo bituma ubutaka butabura, ariko nanone bakitonda bagakoresha ibikoresho bikomeye kandi biramba.

Ahenshi mu bigo bya leta cyangwa se ibigo by'abikorera, usanga bafite umuriro w'amashanyarazi. Ubafasha mu gucana amatara igihe haje umwijima, naho ibigo bidafite uwo muriro usanga biri mu icuraburindi igihe bwije.

Iyo leta ifite ahantu runaka itangira serivisi, usanga yarashyizeho inzu runaka igomba gukoreramo kandi igashyiraho n'amasaha yagenwe ndetse ugasanga hari isuku irengeje, kubera ko haba hagomba kuba intangarugero nk'ahantu hakorera leta.

Usanga akenshi na kenshi ibigo nk'amahoteli bikunze kugirwa inama yo gucuruza serivisi bitanga ku mafaranga make, kubera ko biba biganwa n'abantu benshi. Bityo bakaba babasha kubona inyungu mu gihe gito, kandi byihuse. Niyo mpamvu usanga bashishikarizwa kuyagagabanya.

Buri muntu wese akwiye kuba ijisho rya mugenzi we niba ubonye abari kwangiza ibikorwa remezo byubatswe na leta ni byiza ko ubatanga ku babishinzwe maze abo ngabo bagahanwa kubera ko baba bari kudusubiza inyuma.

Igihe cyose hari inzu ubona yakorerwamo ibikorwa bigirira rubanda rwose akamaro iyo nzu iba igomba gukodeshwa na leta cyangwa se ikagurwa na leta hagashyirwamo ibikorwa bibyara inyungu cyangwa se bihereza serivisi nziza Abaturarwanda.

Biba byiza ko abamotari bagira uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'umugenzi batwaye ndetse n'ubwabo bwite, ibyo byakorwa binyuze mu gutwara neza batihuta kandi bagakurikiza amategeko y'umuhanda.

Niba uri umwe mu bashaka gukora umwuga wo gutwara abantu kuri moto, ugomba kubanza kwiga amategeko y'umuhanda, niba uri umugenzi kandi ukaba ushaka gutwarwa kuri moto banza wambare ingofero.

Umuturage w'igihugu aba agomba kugira ubuzima bwiza kubera ko atanga umusoro, ninayo mpamvu rero leta y'u Rwanda ikoresha iyo misoro umuturage aba yatanze yubaka imihanda kugira ngo umuturage ajye guhaha, ajye ku ishuri cyangwa se ahandi hose bimworoheye.

Mu mujyi wa kigali hari amazu menshi kandi meza ariko na none ntitwakwibagirwa ibiti biteye ku muhanda kubera ko bituma umujyi usa neza.

Kirazira kujugunya imyanda ahantu hose ubonye witwajeko ubona hadatuwe, hari ubutaka bugari kandi budafite ikibukorerwamo, kubera ko Leta iba ifite ikindi kintu ihategurira gishobora kuba gifitanye isano n'imiturire nkuko imbere yaho biba bimeze.

Ahantu hose hari inyubako ndende usanga ari umwe mu miti irambye yo kugabanya ikibazo cy'ibura ry'amazu akorerwamo ibikorwa bibyara inyungu, kubera ko usanga abadashoboye gukorera mu nzu zo hasi bakorera mu zo hejuru kandi bafite n'umwanya wo kuzajya bahagarikamo imodoka zabo igihe cyose bagiye gutanga serivisi.

Iyo utuye ahegereye ahanyura imiriro y'amashanyarazi, leta ikunda kukugira inama yo kwitwararika ukirinda kubaka inzu ndende kugira ngo zitabangamira iyo miyoboro, kandi ntutere ibiti birebire, bityo bitazavaho bikagwira iyo miyoboro ikangirika.

Hirya no hino mu gihugu hari imihanda igenda yubakwa maze ikangirika itaramye, ibyo biterwa n'uko ababa bahawe amasoko yo kubaka iyo mihanda bayubaka nabi ahubwo bakita ku nyungu zabo.

Leta mu nshingano zayo, harimo no kubaka ibikorwa remezo birimo amavuriro, imihanda, ndetse n'ibindi. Gusa ntitwakwirengagiza ko igomba no kubaka amasoko.

Iyo abantu batuye mu gace kamwe, by'umwihariko batuye ku bwinshi, usanga buri umwe wese afite inshingano zo kubanira neza mugenzi we, mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro, bityo iterambere ryabo rikarushaho kugenda neza kuko usanga bahahirana kandi byoroshye.

Inshuti yanjye yanzanye muri uyu mudugudu. Yambwiraga ko ifitemo inzu. Ariko natunguwe no kumva yarambeshyaga kubera ko nta nzu ifite ahangaha, ahubwo nayo yarakodeshaga.

Ahantu hose hahurira abantu benshi usanga hakunze gukorerwa ubucuruzi butemewe n'amategeko, kandi akenshi bwiganjemo ubujura ugasanga abantu bahajya bakunda kugirwa inama yo kwitwararika, kugira ngo bataza kwibwa ibyabo ku buryo bw'amanyanga.

Byamaze kugaragara ko u Rwanda narwo rufite imiturirwa kubera ko hari imiturirwa iri mu mujyi wa kigali irenga makumyabiri niyo mpamvu rero rusigaye rwakira inama zigiye zitandukanye .

Benshi tuzi ko i Kanombe ariho haba ikibuga k'indege, nanjye nkiri umwana numvaga nshaka kugera muri aka gace, kubera ko nahoraga numva mfite amatsiko yo gubona indege zihaguruka cyangwa se zigwa.

Leta niyo ishinzwe abaturage niyo mpamvu iba igomba kubitaho gusa leta zimwe na zimwe zinanirwa n'izo nshingano zazo ariko leta y'u rwanda yo ibishyira mu bikorwa binyuze mu kubaka ibikorwaremezo nk'imihanda y'amasoko ,amavuriro ndetse n'ibindi .

Umutekano mu gihugu cy'u Rwanda washyizwe ku rwego rwo hejuru, aho usanga abantu bagenda mu muhanda isaha bashakiye kandi nta kibazo bafite ,kubera ko bazi ko inzego z'umutekano ziba ziri impande y'imihanda, zishobora kubarinda icyago icyo aricyo cyose.

Hari ibice bimwe na bimwe byo mu Rwanda, byagaragaye ko abaturage babyo batuye mu manegeka. Abo ngabo bavanyweyo bazanwa mu mudugudu. None nabo bamaze gutera imbere, batuye mu mazu meza, nkaya ngaya mubona.

Ibikorwaremezo biteye imbere ni bimwe mu bintu bigaragaza ko ahantu hamaze kugera ku iterambere, ariko nan nonene, niba mufite ibyo bikorwaremezo na mwe mwubake amazu meza muhashyire amaduka inganda n'ibindi.

Iyo hari inzu yegereye umuhanda kandi ugasanga leta ifite gahunda yo gukora cyangwa kwagura uwo muhanda, uwo muntu agirwa inama yo kwimuka ariko agahabwa ingurane ku butaka bwe, kubera ko hari ubwangirika igihe cyose bari gusana mu muhanda.

U Rwanda n'igihugu giherereye mu ntara y'iburasirazuba, dufite intara enye ushyizeho n'umujyi wa kigali, mu mujyi wa kigali dufitemo uturere dutatu aritwo Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro.

Imihanda myiza kubera ko ikomeje gukwirakwizwa ahatuye abantu benshi, usanga ari imwe mu mpamvu zituma abantu biteza imbere, kubera ko ubwikorezi buba bugenda neza bakabasha gukora ibikorwa bibateza imbere, kandi ugasanga urujya n'uruza rurihuta igihe cyose.

Umunsi umwe nari ndimo ngenda mu muhanda, mbona umushoferi atwaye imodoka adafashe feri, nahise mutabariza ku bashinzwe umutekano kugira ngo ataza gukora impanuka.

Imodoka nini nkizi ziba zigomba guhabwa abashoferi bize iby'umuhanda kubera ko bazihaye abatarize iby'umuhanda, bashobora kuzitwara nabi bagakora impanuka bakangiza byinshi.

Imihanda ni imwe mu bikorwa remezo byubakwa na leta, kandi ifite akamaro kanini kubera ko byoroshya ubucuruzi, imigenderanire kandi igatuma igihugu gitera imbere.

Leta zigiye zitandukanye nizo zifite inshingano ndetse n'ubushobozi bwo kubaka ibikorwaremezo, niyo mpamvu rero leta y'u Rwanda nayo itajya itererana abaturage bayo, kubera ko ibakira ibikorwaremezo birimo n'imihanda, amavuriro ndetse n'ibindi.

Abakoresha umuhanda baba basabwa kwiyoroshya no kumvikana hagati yabo, kugira ngo hatagira uhungabanya mugenzi we yitaye ko ari kwihuta kumurenza, kandi akubahiriza intera yagenwe, kugira adahutaza abanyamagare n'abandi bawukoresha.

Abantu bose mu muhanda bamaze gusobanukirwa ko ari iby'ingenzi kubungabunga umutekano wabo, bityo bakubahiriza amategeko abagenga bakabasha kurebana n'ibyapa kuko ari byo bibasha kubayobora ndetse bakubahiriza ibindi bimenyetso bigabanyije mu muhanda.

Mu muhanda abashinzwe kuwutunganya, bagerageza gushyira umucyo kuri buri kimenyetso cyose kirimo, aho usanga hari imirongo ishinzwe kuyobora abakoresha imodoka, hakaba hari n'indi ishinzwe kugenzura abakoresha amaguru, bityo n'iyo yasibwe hakaba hari abashinzwe kuyisibura.

Abatwara imodoka, buri gihe bashishikazwa kwitwaza ibyangombwa byabo ndetse n'iby'imodoka, kugira ngo babyerekane igihe cyose babibajijwe nabakozi babishinzwe, kandi basuzumwe neza, niba izo modoka zabo zemerewe kugenda mu muhanda ntakibazo.

Imihanda myiza, by'umwihariko iyo mu mujyi wa Kigali usanga ifite isuku, kubera ko haba harimo abantu benshi bashinzwe kuhakubura bakahagira neza, bityo abahagenda bakaba bubahiriza kujugunya neza imyanda ahabugenewe, kugira ngo birinde kuhanduza.

Leta niyo ifata iya mbere mu kubaka imihanda myiza kandi itateza ikibazo, gusa n'abagenda muri iyo mihanda bagomba kubahiriza amategeko yashyizweho, kugira ngo birinde impanuka.

Kugenda mu muhanda biba ari ibintu bitekanye cyane, igihe cyose urimo ugenda, usanga hari abashinzwe umutekano wo mu muhanda, bagiye bashyirwa ku mpande zawo, bityo bagafasha abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga kugenda mu mahoro, kubera ko akenshi usanga bagendera mu mihanda itangiritse.

Igihe cyose bwije, burya amatara aba agomba gucanwa kubera ko igihe adacanwe, abagizi ba nabi bashobora kwihisha inyuma y'umwijima, bakagirira nabi abagenda mu muhanda.

Abanyamaguru iyo bageze mu mirongo bagenewe kwambukiramo nibwo bambuka kubera ko usanga bamaze umwanya muremure bategereje birinda ko bakambukira mu yindi mirongo bityo imodoka zikaba zabagonga kubera ko atari mu mwanya wabo.

Numvaga ko imihanda mibi igaragara mu byaro gusa. Ariko naje no gutungurwa n'imihanda mibi nasanze mu migi. Iyi mihanda usanga itaritaweho n'abaturage.